Agapfukamunwa ntago gakwiriye gusa kuba karakoreshejwe mu gihe ca korona mu rwego rwo kwirinda guhererekanya uburwayi bunyuze mu mwuka g'undi aba yahumetse, ahubwo no muri iki gihe mu gihe wumva ushobora kuba warwaye ibicurane, ushobora kugakoresha mu rwego rwo kwirinda nanone gukomeza kubikwirakwiza no mu bandi.

Abantu bagiye ku rugendo rurerure rubasaba amasaha menshi, bakunda kwitwaza ibintu byinshi bitandukanye barakenera, hari n'igihe banitwaza n'ibiryamirwa cyane cyane ba mukerarugendo, baba bafite ibikoresho byinshi n'ibikapu byinshi bapakiye imodoka ku buryo nta kintu bashobora kubura mu rugendo.

Ubwato, ubu habaho amato menshi, kamwe ka kera, ko kugasha gakozwe mu biti, usanga ubu karavuyeho, ahenshi bwasimbuje n'ubwato bwa moteri, kubera ko ubwato bwa kera ntabwo bwakora neza ,nko mu biyaga binini nk'ikivu, kandi abantu benshi bikundira buriya bwa moteri ,kubera ko bufite sekirite n'ubudahangarwa.

Polisi y'u Rwanda, akenshi iyo polisi iri gukora ubukangurambaga mu baturage, iba ishaka kongera kubibutsa ko bagomba kwicungira umutekano bo ubwabo cyangwa se banatangira amakuru ku gihe, gukoresha umuhanda neza nta muturage ubangamiye undi mu muhanda, cyangwa ngo abangamire n'ibinyabiziga.

Ishami ry'abaporisi bashinzwe kugenzura ibiyobyabwenge, bifashishaga imbwa za kizungu, babaga barazitoje, ku buryo zibafasha kuvumbura aho ibiyobyabwenge icyo ari cyo cyose giherereye ku bo bakekaga ko babigira.

Hariya ni icyumba mberabyombi. Ni icyumba gishobora gukorerwamo ibintu byinshi. Hashobora gukorerwamo inama, cyangwa bakanakoresherezamo ubukwe. Usanga abantu benshi bakunda cyane biriya byumba bikoresherezwamo ibintu byinshi. Kuko bibafasha kwakira abantu ba bo neza, banisanzuye.

Uduseke ni kimwe mu bikoresho by'umuco, bikoreshwa mu buryo butandukanye. Hari aho bikoreshwa nk'umutako, bakaba babishyira mu nzu bikaba umutako aho ngaho, ariko hari n'aho bikoreshwa nko kujya gusura umuntu, ukaba wakwifashisha ugashyiramo ibintu umushyiriye nk'ipfukire.

Aborozi benshi cane cane abororaga inzuki, abo bitaga abavumvu. Iyo bagiye guhakura bibasabaga kwambara bakikwiza kugira ngo birinde nuko inzuki zishobora kubadwinga.

Ifumbire y'inkoko itanga umusaruro mwinshi, uretse ko igorana cyane mu kuyibona, kubera ku borozi babona umusaruro bibagoye. Abenshi bavuga ko ibiryo by'inkoko bihenda cyane, niyo mpamvu n'ushaka kugira ngo abone iyo fumbire, bimusaba amafaranga menshi.

Ababyinnyi ba kinyarwanda usanga ahantu henshi habereye ibirori baba bahari. Kubera ukuntu basusurutsa ababa baje aho ngaho, barabifashisha kugira ngo abantu baryoherwe n'ibyo babateguriye byose.

Ababyinnyi babyina iby'umuco wa kinyarwanda usanga abantu benshi babakunda cyane, usibye no kuba bitwibutsa umucyo wacu wa kera ariko bifasha n'abana bakibyiruka ubu ngubu, hari ikintu biga kubya kera.

Igisabo, ntibavuga ngo igisabo barakimanika ahubwo bavuga ngo barakijisha, kubera yuko kigira imiziririzo myinshi, usanga abantu benshi bagifite mu ngo zabo bagishyira ahantu kure, ku buryo nta muntu bishobora korohera kuba yahagera uko yishakiye.

Ingoma ni kimwe mu gikoresho cy'umuco nyarwanda, cyifashishwaga cyane cyane n'abakaraza bari gususurutsa ahantu habereye ibirori. Cyanifashishwaga kera cyane amajyambere atari yaza, mu gukangurira nk'abantu mu kubamenyesha gahunda za leta zigiye gukorwa.

Umwe mu mitaka z'umuco nyarwanda usangaga zigira ahantu nezaza, aho bawumanitse bawutatse haba ahameza neza cyane, bazishyiraga ahantu henshi hatandukanye haba mu mazu yo kubamo, n'amazu y'abamukerarugendo, ahubwo ashobora no gukurura ba mukerarugendo, ndetse zimwe banazohereza no mu mahanga.

Igikoresho cy'umuhoro usanga gikoreshwa ahantu henshi hatandukanye. Nko mu gikoni bacyifashisha mu gutema inkwi neza . Abafite intoki na bo bagikoresha mu gukorera urutoki rwabo neza . Ndetse n'abafite ibitari iyo bagiye kubitsinda baragikoresha.

Amasaka y'ibitete : Akenshi iyo amasaka amaze gupfundura hasohokamo impeke z'icatsi, ni impeke ziba zikiri ntoya ku buryo abantu bazihekenya ziba zirimo n'amata. Hari abo ziryoheraga bagakunda kuzihekenya kenshi.

Ingobyi za kinyarwanda zo guhekamo abarwayi akenshi zikoreshwaga cane ahantu homucaro, badafite imihanda igendekaga ishobora korohereza imbangukiragutabara yo kwa muganga kugerayo. Nonehoabaturage bakayikoresha kugira ngo bafashe umuntu kumugeza kwa muganga atari ya remba cane.

Uducuma, udukoko, ni ibikoresho byakoreshwaga kera cyane, ubungubu bikaba byarasimbujwe n'amajyambere. Ubu hasigaye hakoreshwa amaparato, cyangwa ibikosi. usanga ahantu bigaragara, ari igihe bari kwibukiranya iby'umuco.

Umubyeyi wikoreye ibibindi bitatu bigerekeranye, biramutse biguye, kubiramira byagoranarana cane. Kubera ko ari ibindi binini kandi bigerekeranye. Ubwo kimwe iyo ikibindi kiramutse kiguye kikagera hasi, ni uguhinduka urujo, cyangwa bakabyita ngo ni akamuga, iyo kitamenaguritse cane.

Ingobyi y'abarwayi ya Kinyarwanda. Muri iki gihe usangaga ingobyi zikoreshwaga ahantu ho mu caro hadafite imihanda ku buryo byakorohera nk'ubutabazi bwo kwa muganga nka ambilanse kuba yahagera . Noneho abantu batuye nko muri ako gace, bikaborohera bo kugeza umurwayi kwa muganga.

Hari, ahantu ushobora kugera ukahasanga ikirere gishimishije cyane, hateyeho ibiti binini bigagaye, nk'igiti cy'umuko iyo kimaze kuba nyine kinini kikagagara kigira n'indabo nyinshi z'umutuku, noneho iyo gikikijwe n'ubwatsi bwinshi butandukanye ari no mu kibaya, usanga ari nk'ahantu hateye ubwuzu cyane.

Uyu ni umudugudu w'icyitegererezo wubatswe neza. Ni fo ini wani, utuye ahantu heza hakikijwe n'ibiti byinshi. Mu mudugudu usanga abantu basabana yewe haba n'umutekano, ku buryo nta muntu ushobora kugira ikibazo cy'ubujura. Gutabarana hano mu mudugudu biroroha cyane.

Muri iki gihe usanga insengero nyinshi barazifunze kubera kutuzuza ibisabwa, wasangaga hari nk'insengero ziri hagati mu ngo, noneho bagasakuriza abantu bahaturiye haba nijoro haba ku manywa abaraye mu masengesho, cyangwa se ugasanga nta hantu hatagira aho abantu bashobora guhagarara, bityo bahitamo kuba bahaye igihe cyo gutunganya aho basengeraga.

Inzu z'ubucuruzi zibaga ku mihanda ya kaburimbo barahendaga cane! Usangaga ibiciro byabo bitandukanye n'ibiciro bibaga ku masoko ngo ubukode bwabo burabahendaga cane! Ni yo mpamvu n'abandi usanga bishiriyeho ibiciro byabo.

Ahenshi mu gihugu usanga insengero zaravuguruwe ku buryo nta hantu ushobora gusanga urusengero abantu bashobora gusohokamo ngo babure n'aho bahagarara. Insengero nyinshi ubu ngubu zubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere abantu barisanzura ndetse n'abasohotse hanze bakabona uko bisanzu.

Imidugudu y'icyitegererezo myinshi, usangaga iteye amabengeza cane cane nka Nyejuru. Ubonaga baranyujijemo imihanda ku buryo buri nyubako ifite umuhanda uyigezeho. Uretse ko muri ubungu muri kino gihe, abantu benshi batekeraga ku nka. Usangaga nk'amarangi gari kwangirika cane.

Akenshi usangaga hirya no hino bari kuhubaka ibiraro bigezweho bya kijambere ku buryo bishobora no kunyurwamo na za modoka nini cane, bikazorohera no kujya gupakira umusaruro hirya no hino, noneho n'ubuhinzi ushaka kugeza umusaruro we ku isoko biramworoheraga, yewe n'imigenderanire hagati y'impande zombi zari zituye hirya y'umugezi na zo zirorohaga cane.

Ahantu henshi mu gihugu usanga hamaze kugera iterambere, ku buryo iriya mihanda minini yose ya kaburimbo, usanga barashizeho amatara, noneho abagenda nijoro usanga nta muntu ushobora kugenda afite icyo yikanga, haragira ikimwangiriza, amasaha yose ushobora kugenda kandi nta kibazo.

Ibigo by'amashuri muri iki gihe byubatswe mu buryo bugezweho. Ku buryo haba umunyeshuri cyangwa umwarimu, iyo baba bari muri iryo shuri nta n'umwe uba ubangamiwe n'aho ari kwigira. Noneho bigafasha cyane n'abantu bahaturiye, kubera yuko nta muntu ubangamirwa n'amazi, cyangwa se n'ibindi bintu bishobora kuva mu kigo bikangiriza aho batuye.

Imwe mu midugudu igezweho muri iki gihe yubatswe mu buryo bw'amagorofa, bifasha cyane kugira ngo ubutaka buboneke kuko ba baturage batuje muri ya mazu usanga aho bavuye hasigaye ari hanini, bikaborohera n'abo gukomeza kuba bahahinga, bakabona n'umusaruro byoroshye cyane.

Kiliziya y'i Huye. Hariya ni kuri katedarari. Ibaga nini cane. Igiraga n'imbuga nini ku bujyo n'abakirisitu iyo basohotse, babaga bisanzuye. Habaga heza. No mu mbuga ya ho usangaga hateye mo indabo, imbere ya ho hakaba n'ishusho ya Bikiramariya. Mbese habaga ubwisanzure ahantu hose.

Ahenshi mu gihugu usanga amazu ya Leta atandukanye yaravuguruwe cyane cyane aho abantu bashakira serivisi nko mu midugudu, utugari , imirenge n'uturere. Aho usanga n'abaturage bishyiriramo umusanzu wabo ariko bakabonera serivisi ahantu hameze neza.

Igihugu cyacu kimaze gutera imbere cyane, mu bikorwa remezo nk'amazu nk'ayamagorofa manini cyane. Akorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye. Imbere yayo aba afite n'ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti by'amoko yose. Ku buryo bikurura n'abanyamahanga kuza gukorera hano iwacu.

Igihugu cyacu ubu usanga umugore yarahawe ijambo. Ntabwo ari nka bimwe bya kera wasangaga umugore ari uwo gukora imirimo yo mu rugo gusa, adashobora no kujya no mu nama cyangwa se akaba yanatanga n'igitekerezo. Ubu rero habaho ubwisanzure ku buryo nta muntu ujya unahezwa no mu nama.

Abaturage basabwa kwitabira gahunda zose ziba zateguwe mu Gihugu, nk'inama cyangwa n'ibindi. Kubera yuko ari byo baba bababwiriramo gahunda zose zibagenewe, no gukomeza gufatanyiriza hamwe mu kuzamura amajyambere y'Igihugu.

Zimwe mu nama zikunda gukoreshwa mu midugudu , hari iyo bita inteko . Zikoreshwa cyane kuwa kabiri , niho usanga abayobozi bahuriza abaturage bose noneho bakababwira gahunda za Leta , ndetse n'abaturage bafite ibibazo bakaba babikemurira hamwe mu nteko.

Umuhanda gw'amabuye gurimo amamoto n'imodoka ya twegerane n'amamoto ni menshi kandi gagendaga gari kwirukanka cane, ku buryo nk'umugenzi udashoboye kugenda mu muhanda mubi, ashobora kugera nkiyo yajaga yagize nk'ikibazo.

Umuhanda utwara ibintu byinshi cyane ku buryo n'amamodoka akoramo usanga ari manini cyane, ashobora gutwara ibintu byinshi, nk'amagaraviye, imicanga cyangwa n'ibindi, bityo bikorohereza n'abari gukora umuhanda kugira ngo bawukore mu gihe cyagenwe.

Ziriya ni bisi za ritiko zijaga mu ntara hose nta hantu na hamwe zitageraga, abantu benshi bakundaga no kuzitega ngo zirihutaga, ndetse n'abacuruzi bakundaga kuzitega ngo zitwara ibintu byinshi ku buryo biboroheraga mu gutwara imizigo zabo.

Usangaga kenshi mu minsi yo gutaha ku banyeshuri, imodoka ziburaga yewe ziriya zo bavugaga ni Twegerane usangaga biyongereyeho n'ibiciro, iyo ushaka rero kugira ngo ugende kare bigusaba kugira ngo uzinduke cane, ujyane n'imodoka za mbere cangwa se ugende mu masaha ya nimugoroba, kubera ko abanyeshuri babaga bafite amasaha bagomba gutwarirwamo.

Usanga muri gare zitandukanye mu gihugu hasigaye hakoramo imodoka nini cyane ku buryo zitwara abagenzi benshi, noneho ugasanga nta bantu bagitinda ku murongo bategereje imodoka.

Ikibuga cy'indege mpuzamahanga kiba i Kigali i Kanombe. Usanga kigwaho indege nyinshi, n'inini cyane. Abagenzi benshi bashaka kujya mu mahanga biboroheye ni cyo banyuraho, kubera ko kinorohereza abantu bose bashaka kujya mu mahanga, kuba bagerayo byihuse.

Gare ya Nyabugogo ni gare igiraga abagenzi benshi ndetse n'ibyerekezo bitandukanye ,kubera ukuntu ari nini cane ushobora kugeramo ukaba wanayoba, bisabaga ngo ugire ubwenge umenye icyerekezo cy'imodoka ushaka aho giherereye.

Imikino y'amaboko muri iki gihe usanga imaze gutera imbere cyane , kubera ko Leta yubatse ibikorwa remezo byinshi cyane , nk'ibibuga bitandukanye abantu benshi bisanzuriramo cyane cyane urubyiruko n'abandi baba bashaka gukora siporo.

Mu gihugu hirya no hino hubatswe ibibuga bitandukanye. Bijyanye n'iterambere byo gukoreramo siport. Ku buryo byorohera n'abanyamahanga baje iwacu mu buryo bwo gukora siporo bumva bashaka.

Isiganwa ry'amagare rigera hirya no hino mu gihugu hose. Usibye no kuba bibereye ijisho kubareba bari kugenda n'aho bageze usanga bahasiga amafaranga menshi, iterambere ryaho rikazamuka.

Ibigo by'amashuri byinshi bigiraga gahunda yo gushira abanyeshuri mu byiciro bitandukanye bya siporo. Hari bamwe bajaga nko muri volebolo, abandi bakaja nko muri futubolo ,ibyo bigafasha nanone umunyeshuri mu kuruhuka neza igihe arangije amasomo.

Ubu usanga ahantu henshi mu gihugu abaturage bashishikarizwa gukora siporo kugira ngo bananure umubiri wabo. Kandi ngo bigabanya cyane n'uburwayi bwinshi butandukanye. Ni yo mpamvu usanga leta yarashyizemo imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo hirya no hino bifasha abantu uburyo bwo gukoramo siporo.

Ikipe y’igihugu y’abagore bakinaga umukino w’amaboko bitaga voleboro. Muri iki gihe, usangaga umwana w’umukobwa asigaye ahatana na musaza we mu mikino itandukanye, kandi baranatsindaga, bageraga kure, kubera y’uko hari n’amakipe amwe n’amwe gasohokeraga igihugu.

Umukino w'amagare uzenguruka igihugu cyose usanga abantu benshi bawukunda cyane ,ahantu hose amagare araca uhasanga imbaga nyamwinshi babategereje kugira ngo bihere ijisho, barebe n'umuntu uraba n'uwa mbere.